Ishuri ryigamo abana b'ikiburamwaka kandi rikaba rifite igishushanyo k'igitoki n'amatwi, kikaba kibafasha kwiga neza mu myigire yabo.

Akana gatoya kari gukina n'iby'abana byako, kari guseka, karasutamye, kandi gafite ibikombe imbere yako kari gukinisha, kandi gafite n'uruntu rw'uruyiko ruri muri icyo kijerekani kari gukinisha.

Igikinisho cy'umwana wiga mu kiburamwaka, akaba gikinisha igihe ari kwiga. Ni igipupe gikozwe muri dinezoro ndetse ikaba ari inyamaswa yabagaho kera.

Abana batoya bambaye impunzankano zo ku ishuri biga mu mwaka w'ikibamwaka. Basabwe gushushanya indabo ndetse kandi bari gushushanya, bashyiraho n'amabara y'indabo.

Umwana mutoya wiga mu kiburamwaka akaba ari kwigana igishushanyo gishushanyije uburyo gitera intambwe ndetse kandi yambaye udukweto twiza n'agakabutura keza n'umupira w'imbeho.

Igisimba kinini kimeze nk'ingona ariko kikaba ari igishushanyo cyangwa igipupe, bafasha umwana wiga mu mashuri matoya y'ikiburamwaka kugira ngo abashe kwiga neza ndetse agire ubuzima bwiza.

Umunyeshuri w'umwana uri imbere y'abandi bana ari kubereka ibyo bari kwiga ndetse kandi bicaye mu ntebe bambaye imyenda y'impuzankano kandi bari kwiga ibigendanye n'amasomo yo mu ishuri.

Umwana uri kwigishwa imibare ari gufashwa n'umwarimu ufite mikoro ni umwana ukiri mutoya wiga mu mashuri matoya y'abana aho abana babanziriza kwiga aho bita muri nasali.

Ibikinisho abana biga mu kiburamwaka bakunze gukoresha, harimo ibipupe by'inyoni, ndetse kandi bifite amakaye, amakaramu, bihetse n'ibikapu kandi bikaba bigiye no ku ishuri.

Imyitozo ni kimwe mu bihabwa abana biga mu kiburamwaka nko gushushanya, gukina ndetse n'utundi dukino cyangwa se indi myitozo ihabwa abo bana.

Ibikoresho byifashishwa kugira ngo umwana wiga mu kiburamwaka agire ubuzima bwiza n'ubwenge bwiza, biri aho ngaho. Ni ibipupe bikozwe nk'abana ndetse kandi n'imbwa iba iri aho ngaho iri kumufasha kwiga aseka.

Ishuri ryigamo abana biga mu kiburamwaka, rifite ubusitani bwiza ndetse imbere yaho hari ibishushanyo by'abana ndetse kandi ni ibishushanyo bibafasha kwiga. Ni ibishushanyo bigizwe n'ibice by'umubiri w'umuntu.

Ahatangirwa serivisi z'uburere cyane cyane ku bana biga mu mashuri y'ikiburamwaka. Hafi aho ngaho hari kandagira ukarabe bifashisha mu gukaraba kugira ngo abana bagire isuku.

Ikicundo gifite amapine atatu kimeze nk'igare, umwana mutoya wiga mu kiburamwaka ashobora gukoresha kugirango ngo yishime, arye neza, yige neza kandi abeho neza.

Abana bakiri batoya bahawe ibiryo biri ku masahane, n'abana bambaye impunzankano z'ishuri ndetse kandi inyuma yabo harimo ababyeyi bari gusangira nabo barishimye cyane kuko bari kumwe n'abari kubasangira.

Abana batoya bambaye impuzankano umuhondo n'icyatsi kibisi ndetse n'utugofero bakoze mu mpapuro bari imbere bari kwigishwa n'umwarimu wabo n' abana biga mu kiburamwaka bari kumwe na mwarimu wabo.

Ibiko rinini rifitemo ibitabo ndetse n'ibikoresho by'abana bakunze gukoresha mu kwiga, higanjemo ibipupe by'abana ndetse hakivanzamo n'ibikombe, n'ibindi cyane cyane nk'udutabo two gusoma.

Abana bari mu ishuri ndetse bakaba bakurikiye mwarimu uri kubigisha imibare, bari gutera intoki hejuru ngo bajye gusubiza ku kibaho, mwarimu nawe agahitamo ujya gusubiza.

Amarate yaba iya mpande eshatu ndetse yaba n'iy'uruziga rwigoronzoye ndetse n'impande igororotse, bishobora gutuma abanyeshuri bafata uburyo bwo kwandika neza mu ikaye.

Abana babiri biga mu mashuri abanza bari gusasa uburiri bwabo, nk'ubumenyi bigira mu gusasa ni ukuba igihe ababyeyi badahari babyifasha kandi bari gusasa kugira ngo baryame.

Ibitabo, amakayi, karikatirisi ndetse n'ibindi, bikoreshwa cyane ku mwana wiga mu mashuri abanza, dore ko aba yiga imibare, agakoresha icyuma kibara imibare ndetse n'ibitabo n'amakayi, yandika n'amakaramu.

Isomero rinini ririmo ibitabo byinshi by'amoko menshi, ni isomero ry'abana biga mu mwaka w'amashuri abanza ndetse kandi rikaba rifite isomero ryiza cyane.

Udukoresho umwana wiga mu ishuri ritoya akunze gukoresha. Harimo imikasi ndetse n'ibikinisho bigiye bitandukanye, igihe umwana wiga mu mashuri abanza agiye.

Abana bakiri batoya biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, bari kwiga ikinyarwanda bakoresheje igitabo cy'umunyeshuri, ndetse bari gufatanya bagasoma bakoresheje icyo gitabo.

Ahantu heza ndetse kandi hakaba ari inyubako yigishirizwamo abana biga mu mashuri abanza ndetse kandi hari ubusitani busa neza bukeye, hafi y'aho hari izindi nzu nziza.

Ibikoresho bikoreshwa mu mibare ndetse bikaba binakoreshwa, mu gutandika imibare kandi ni irate, mpande eshatu n'utundi dukoresho, dukozwe mu iirate.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwiga ku banyeshuri biga mu mashuri abanza, harimo amarate, amakaramu y'ibiti ndetse kandi amagoma harimo n'ikintu gikoreshwa nk'ubumenyi bw'isi.

Ahatangirwa serivisi z'uburere cyane cyane ku bana biga mu mashuri abanza, hari ibikinisho bakinisha kugira ngo bagire ubuzima bwiza n'ubwenge ndetse n'imikino ihakorerwa.

Imikasi, amapesi, amarate ndetse n'utundi tubara, n'udukoresho abana biga mu mashuri abanza bakunze kwiga bakoresha kugira ngo bige kwandika neza.

Ishuri ry'abana batoya biga mu mashuri abanza mbere na mbere iyo binjiye barabanza bakabona aho bakarabira hari ubukarabiro bubafasha kugira isuku ndetse kandi bahita bihuta bakajya mu ishuri.

Abana bicaye hasi biga mu mashuri abanza bari kuganirizwa n'ababyeyi babo kuko abana bicaye mu dusambi ndetse kandi ababyeyi bicaye ku ntebe, umugabo n'umugore.

Ikigo cy'amashuri kigishwamo abana biga mu mashuri abanza ndetse ni ikigo gifite ubusitani bwiza ndetse kandi hari ibyapa bimurikira abantu baza bagana muri ibyo bigo by'amashuri.

Ikigo cy'amashuri kiba gifite igalaporo akeshi na kenshi, kandi kikagira ubusitani bwiza butatse neza ndetse n'ibiti byabuhariwe kuba byakurura akayaga igihe abanyeshuri bari kwiga.

Umugabo wambaye indorerwamo n'ishati nziza, ari kugaragariza abana biga mu mashuri yisumbuye, ibigendanye n'uburere bakwiye kugira ndetse inyuma ye hicaye abandi bana mu itente.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, biga mu mashuri yisumbuye, bari imberera ya za mudasobwa, bari kwigishwa n'umwarimu ibigendanye n'ikoranabuhanga ndetse kandi barakurikiye neza.

Umukobwa wambaye impuzankano z'ishuri akaba yambaye ishati y'umweru na karuvati n'ijipo, ari kwiga amasomo asubira mu masomo yize, yiga mu mumashuri yisumbuye umwaka utazwi.

Abanyeshuri bari mu ishuri ndetse bishimye bari guseka bari kuzamura intoki ndetse kandi hari igisubizo bagiye gutanga ki bakacyandika ku kibaho.

Umugabo ushinzwe kwigisha ndetse akaba ari mu cyumba cyo mu isomero, aho yagiye gushaka ibitabo by'imfashanyigisho, kugira ngo abe yakwifashisha mu kwigisha abana yigisha mu kigo cy'amashuri cya segonderi.

Abanyeshuri bari mu ishuri abana bakiri bato biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, akenshi higanjemo abana b'abakobwa bambaye imyenda hejuru, kandi bari kumwe n'mwarimu wabo w'umugore wambaye impuzankano yitaburiye.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bakaba bambaye impuzankano zisa z'icyatsi kibisi, kandi barahagaze ariko imbere yabo harimo abayobozi b'abanyacyubahiro bashinzwe iby'umutekano, nk'abapolisi, abasirikare ndetse n'abashinzwe RIB.

Abana b'abakobwa, bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bafite inkweto ndetse bakaba banambaye ibikomo byakozwe na bo kandi barasa neza, barimo guseka.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abasore bari mu ishuri bari kwandika ndetse bakurikiye umwarimu uri kubigisha, dore ko biga muri kaminuza.

inyamaswa zo mu mashyamba akenshi na kenshi haba harimo n'izigira ubwoba, zikaba zabona umusozi uhiye zikirukanka cyane ndetse zikaBa zafata nka kamwe mu gace zikahaguma, ni imwe mu nyamaswa yitwa insha ikagira ubwoba kandi ikaba izi kwirukanka cyane.

Ibibumbano bibumbye mu gitaka ndetse byabumbwe n'umuntu wabyigiye. Akaba abizi neza ndetse ikibumbano kibumbye, kibumbye mu buryo bw'isekuru cyangwa ikibindi.

Ishuri ryiza rinini cyane rifite ubwiza butangaje, rifite ubusitani bwiza bugezweho ndetse n'ibiti muri ubwo busitani, rifite inyubako mu buryo bw'amagorofa kandi ryubakishije amabati y'umutuku.

Ikibumbano kibumzwe mu ibumba kandi kikaba kiri kugaragazwa n'umuntu wagikoze mu kuboko, ni umuhanga ni umwe mu bakora ibintu bigendanye n'ubugeni akaba yarabyize mu ishuri.

Abantu bari mu cyumba ndetse bakaba bari kwiga, n'abanyeshuri biga muri za kaminuza, haba harimo abagore bahetse n'abana, kandi bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha mu kwiga.

Umusore ukanura neza, wambaye agapira ndetse akaba afite imbere ya mudasobwa, inyuma ye hakaba hari ibitabo. Ari kwiga, ari gusubiramo amasomo.